Umubyeyi wambaye umupira usa iroza, uterureye umwana wambaye agapira karimo amabara y'umutuku ndetse n'umukara, imbere yabo hari umuganga, umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga z'umweru uri guseka, bisa nkaho ari umuganga wifashishwa mu kwita ku bana.

Abana bane b'abahungu bahuriye ku ivomero, bose baje kuvoma amazi, bigaragara yuko ahantu bari ari ivomero rusange, ndetse inyuma yabo hari ibyatsi, kuri iryo vomero hari ijerekani isa umuhondo, ari nayo barimo baravomeramo.

Abantu bateraniye hamwe harimo abagore ndetse n'abagabo, bateraniye hamwe bigaragara yuko bitabiriye ikintu runaka, bari ahantu muri salle buri umwe aricaye, ndetse bari kureba imbere bisa nkaho bari kumva ibiri kuvugirwa aho ngaho, niba atari inama ni ubukangurambaga bugiye butandukanye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite agakoresho kifashishwa mu gupima umutima, ari gupima umwana wambaye ishati irimo amabara yiganjemo ubururu ndetse n'umweru, uwo mwana imbere y'iwe naho ku ruhande rwe hari umumama usa nkaho mama we wamuherekeje, cyangwa se wamuzanye kumuvuza.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe ibijyanye n'amazi byose kuyayungurura ndetse no kuyasukura no kuyohereza mu bantu, muu Rwanda icyo kirango kikaba kigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'imisozi ibiri iri inyuma yayo y'imisozi hariho izuba ndetse n'igitonyanga kiri kuva kuri uwo musozi.

Umunyeshuri wambaye impuzankano y'abanyeshuri, ishati isa umihima irimo n'uturongo twa karokaro ndetse n'agakabutura k'iroza, imbere yiwe hari ikigega gisa umukara ndetse afite mu kiganza igikombe gisa umweru ari kuvomeramo amazi.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu n'agapfukanwa k'ubururu ndetse naganazasuku, uri kumwe n'umukobwa nawe wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'umupira w'umuhondo n'ipantaro y'umweru wicaye ku ntebe yumukara. Ukuboko kwiwe kuriho ibyuma bimufasha gupima uko ameze ndetse imbere y'umuganga hari meza yizuyeho ibikoresho yisanzwe yifashisha.

Umukobwa wambaye agapira gasa umuhima ndetse n'ijipo isa iroza, afite ijerekani mu ntoki ari kuvomeramo amazi, ari kumwe n'abana babiri umwe wambaye agapira k'umutuku, ndetse n'undi wambaye agapira k'umweru karimo n'umukara.

Akana k'agakobwa kari kunywa amazi, bigaragara yuko ayo mazi ari kuva mu kintu cy'icyuma kimeze nk'itiyo, iruhande rwe hari intebe isa ubururu, ndetse munsi y'uwo mwana hari ikirango cy'ikigo gishinzwe uburenganzira bw'umwana ku isi yose.

Abagore bagiye batandukanye, bamwe muri bo bafite abana bicaye ku ntebe bisa nkaho bategereje ikintu runaka, imbere yabo hari ameza asa shokora ahagazeho undi muntu ufite umwana ndetse n'undi mu mama, hirya bisa nkaho ariho bari gutangira serivisi zigiye zitandukanye.

Abagore babiri, umwe wambaye imyenda y'icyatsi ndetse n'uyambaye iy'imikara ndetse bakikijwe n'abandi bagore benshi ndetse n'abana bari kuza biyandika bavuga imyirondoro yabo bakayandika, bisa nk'aho baje gufata ibintu runaka cyangwa se gukingiza abana.

Abaturage bagiye batandukanye harimo abagore, abagabo ndetse n'abana, bahuriye ku mugezi, na ho buri umwe ari kureba uburyo iryo vomero rikora, bari kuvoma, umugore umwe wambaye umupira w'icyatsi, ari imbere ku cyuma, ari gusunika bisa nkaho ari.

Ikigega kinini cyubatse neza kizengurutswe n'ibyuma bisa ubururu, inyuma y'icyo kigega hari indi nzu ndende ifite amabara y'umweru ndetse n'amabati asa umutuku, ikigaragara y'uko aho hantu ari ahantu batunganyiriza amazi bayagira meza ndetse bayohereza n'ahantu hagiye hatandukanye.

Umugabo usutaraye uri kumwe n'akana bambaye imipira isa oranje ndetse umugabo wambaye ipantaro isa umukara n'akana kambaye umupantaro, isa ubururu gahagaze ku cyuma gipima ibiro, umunzani ndetse hirya yabo hari terefone n'abandi bantu bahagararanye nabo.

Agashati k'icyatsi ndetse n'ipantaro isa ikigina. Bigaragara yuko ari ku ivomero rusange, ari kuvoma amazi, iryo vomero rikaba rifite ibara risa ubururu, hirya yaho hari indobo isa nayo ubururu yuzuyemo amazi, uwo mwana bigaragara yuko yari yaje kuvoma ahantu mu giturage.

Abaganga bambaye imyenda isa ubururu ndetse n'udupfukamunwa dusa ubururu, batatu muri bo bambaye ingofero zisa ubururu, umwe muri bo yambaye ingofero isa umweru, imbere yabo bari kureba umwana bisa nk'aho bari kumuvura ibintu runaka.

Umusaza wambaye ingofero y'umukara ndetse n'ikote ry'umukara n'umupira w'umweru, ari imbere y'umuganga na we wambaye imyenda y'ubururu ndetse n'agapira gasa icyatsi n'umwitandiro w'umweru, bigaragara yuko ari kumupima umuvuduko w'amaraso.

Abana b'abakobwa bambaye impuzankano z'abanyeshuri, bigaragara y'uko ari abanyeshuri, bari ku ishuri, bari ahantu havomerwa amazi, bisa nk'aho bose bari gukaraba intoki, mu mwanya wo kwimakaza isuku, inyuma yabo hari indabo zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi.

Abantu benshi cyane biganjemo abagore ndetse n'abagabo, bateraniye hamwe, bamwe bicaye hasi, abandi barahagaze bisa nk'aho bitabiriye inama runaka, yabereye ku Murenge cyangwa se ku Kagali. Aho ngaho hari itete ndetse hari n'idarapo ry'u Rwanda.

Umwana wambaye agapira karimo amabara y'ubururu ndetse n'umukara, bigaragara ko uwo mwana yishimye ari ku ivomero rusange muvoma amazi meza ndetse arayafashe amazi ari kuyafata akayitera, biragaragara ko uno mwana yishimye.

Umwana w'umukobwa wambaye ikanzu irimo ibara ry'umweru ndetse n'amabara y'umukara. Imbere yiwe hari ivomero cyangwa se robine yifashishwa mu kuvoma amazi. Ndetse iruhande rwe hari indobo zisa umweru eshatu bigaragara yuko ari zo agiye kuvomeramo.

Umuhungu ndetse n'umukobwa bicaye hamwe umukobwa wambaye gupfukamunwa, umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara ndetse ufite n'ikayi n'ikaramu mu ntoki ziwe ndetse na fone bisa nk'aho ari kwandika ibintu runaka uwo muhungu ari kumubwira wambaye nawe umupira w'ubururu na ekuteri ndetse n'ipantaro y'umweru.

Umugore wambaye agasharupe kiganjemo amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ufite ijerekani isa umuhondo. Imbere yiwe hari ivomero rusange cyangwa se iriba rifite uturobine dutatu. Bigaragara yuko ari aho abantu basanzwe baza kuvoma, ndetse muri iryo vomero riri munsi y'ibiti byinshi.

Abagabo ndetse n'abagore bahuriye hamwe basa nkaho bari mu cyumba k'inama, bagiye kuganira ku bintu runaka, imbere yabo hari televiziyo ndetse buri muntu agiye afite icupa ry'amazi imbere ye.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara, ari koga mu ntoki akoresheje kandagira ukarabe yoroheje ikozwe mu biti ndetse hejuru hariho akabido ari na ko karimo amazi ari gusohoka, akandagira ku giti akabido kihina amazi ahita asohoka.

Abagore, abagabo ndetse n'abana bari hamwe bigaragara y'uko bari mu kintu runaka, abagore bari aho ngaho biganjemo abambaye imipira y'imyeru ndetse n'abagabo bari aho ngaho biganjemo abambaye imipira ya oranje ndetse n'utwana bigaragara yuko bari kutuburira ibintu bigiye bitandukanye.

Imodoka ishinzwe ubutabazi tuzi nka amburance, ifite amabara y'umutuku ndetse n'umweru n'icyatsi, imbere ndetse n'inyuma yayo hari urujya n'uruza rw'abantu, bisa nk'aho bitabiriye ikintu runaka, ndetse hari n'amatente y'umweru.

Abahungu bahuriye ku ivomero rusange baje kuvoma, umwe muri bo afite icyuma ari gukurura amazi agasohoka, bisa nkaho ari bwo buryo bwagenewe kuri uyu mugezi cyangwa kuri iyi robine ko amazi azajya asohokamo, ndetse ari kuyasunika amanuka agwa mu ijerekani bafite isa umuhondo.

Abagore, abana ndetse n'abagabo bugarije umuvomero cyangwa se umugezi uwo mugezi hariho umwana ndetse n'umugore, umwana ufite amajerekani asa umuhondo ndetse yambaye agapira k'umutuku, undi mugore uri ku ruhande wambaye agapira k'icyatsi ndetse n'ijipo y'umweru n'agatambaro k'umuhondo ari gufasha umwana gupompa byabugenewe amazi ayashyira mu majerekani.

Umuganga wambaye itaburiya isa umweru, uri kumwe n'abagore ndetse n'abakecuru bagiye batandukanye, bambaye ibitenge bari kugenda baza umwe kuri umwe, abapima abashyiraho kano gakoresho kifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso.

Abagabo ndetse n'abagore bisa nkaho bari hamwe bari gukora akazi ko gutunda imifuka isa umweru irimo ibintu runaka bayivana ku gice kimwe bayijyana kukindi ndetse babikora bayitondeka ku murongo.

Aba banyeshuri b'abahungu ndetse n'abakobwa bambaye impuzankano z'ikigo bahuriye ku mugezi, baje kuvoma mu madobo asa umuhondo bose, bisa nk'aho bagiye gukorera amasuku amashuri bigamo, murabona y'uko aba banyeshuri bishimye, kandi bari kuvoma babikunze.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru na baji y'ubururu mu ijosi na ga z'umweru, imbere ye hari imiti igiye itandukanye, ari kumwe n'abagore babiri ndetse inyuma ye hari undi muhungu cyangwa se umugabo uhagaze, afite ikiganza cy'umwe mu bantu bari aho ngaho.

Iriba rusange ryo kuvomeraho amazi rikikijwe n'abantu harimo abagore abana ndetse n'abagabo, aho ngaho hari umumama uri gusunika amazi mu buryo bwabugenewe, akava muri icyo kintu ubona gisa nk'ikijuju akajya mu majerekani.

Umwana uri kumwenyura bigaragara yuko yishimye yambaye agashati kiganjemo amabara y'ubururu ndetse n'umutuku imbere ye hari ivomera rusange riri kuvamo amazi ndetse n'imbere yiwe hirya gatoya hari amajerekani y'ubururu ndetse n'umuhondo bigaragara ko uyu mwana yaje kuvoma.

Abagore ndetse n'abagabo bateraniye hamwe, bicaye ku ntebe zimbaho bisa nkaho bari kuganira ku kintu runaka. Hari n'inzego z'umutekano abo bita abanyerondo ndetse intebe y'imbere yicayeho umugore ndetse n'umugabo ndetse n'abagore babiri bafite impapuro mu ntoki bisa nkaho bari kuganira ku kintu kidasanzwe.

Umubyeyi wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'umupira wiganjemo amabara y'umuhondo, umukara ndetse n'umweru, ateruye akana mu ntoki ziwe ndetse afite n'igishura gisa umweru. Inyuma yiwe na ho hari undi mubyeyi wambaye agapfukamunwa k'umukara na we uteruye umwana.

Umugabo wambaye ishati irimo amabara yiganjemo ubururu ndetse n'umutuku n'ipantaro y'umukara, afatanye mu kiganza cyangwa se ari gusuhuzanya n'undi mugabo wambaye imyenda icikaguritse, bisa nk'aho afite ubumuga bwo mu mutwe.

Umukecuru bigaragara yuko ashaje wicaye ku musambi akikijwe n'abana benshi, bamwe muri bo bambaye impuzankano abandi bambaye imyenda isanzwe. Ukurikije ukuntu bano bana bifashe barimo kureba, bashobora kuba bashonje.

Abagore batandukanye bicaye ku ntebe imwe umwe muri abo bagore asa nkaho ari kumva cyangwa se ari gukemura ibibazo runaka, imbere yaho hari umugabo wicaye ari kwerekana ibikomere runaka cyangwa se ibintu runaka afite ku maguru.

Abanyeshuri benshi bateraniye hamwe, bambaye impuzankano y'abanyeshuri, bigaragara yuko bishimye bari hamwe, impuzankano bambaye, isa ubururu ndetse harimo n'abambaye kaki, imbere yabo gatoya, hari idarapo ry'Igihugu.

Umumama wambayeye rinete ndetse wambaye n'ikanzu irimo amabara yiganjemo umuhondo ndetse n'ubururu, yambaye baje yo mu ijosi, na yo ifite umugozi usa ubururu, bigaragara y'uko iyo baji irimo ikarita yo kwibuka.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe kugisha ibijyanye n'uburwayi bw mu'umutwe mu Rwanda kizengurukishijweho umurongo w'uwo mukara ndetse n'amagambo asa icyatsi b'imbere y'ayo magambo ndetse no mu murongo harimo umutwe isa ubururu urimo ibintu bimeze nk'umukara bisa nkaho ubwonko ndetse biriho n'utunnyeri tuzengukijeho dusa umweru.

Umumama wambaye ibitenge birimo ibara rya orange, icyatsi, ndetse n'umweru n'umukara wambaye ishapure. Inyuma yiwe hari etajeri cyangwa se akabati bigaragara ko mo hapakiyemo ibintu, bigaragara nk'aho ari umucuruzi cyangwa se ari muri butike runaka.

Umugabo wambaye ibintu byinshi bidasobanutse ndetse wikoreye ibintu byinshi utamenya ibyo ari byo bisa nabi, ikigaragara yuko uyu mugabo afite uburwayi bwo mu mutwe n'ahantu ahagaze urabona yuko hari imyanda cyangwa se ahantu hajugunywa imyanda twakwita nka puberi.

Umufasha w'umukuru w'igihugu Jeannette Kagame, imbere ya mikoro ari gutanga ikiganiro ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ukuntu bwugarije abantu muri iyi minsi ndetse n'uko twakirinda ubwo burwayi bwo mu mutwe.

Ikirango cy'umunsi mpuzamahanga wahariwe uburwayi bwo mu mutwe ku isi yose, gifite akamenyetso gatambitse kameze nka ekisi gasa icyatsi ndetse n'amagambo yandikishijweho asa icyatsi, inyuma y'icyo kirango hari isi yose umubumbe w'isi yose ndetse hejuru y'icyo kirango hari abagiye batera inkunga uwo munsi.

Umusaza wambaye ingofero, isa ikigina ndetse n'ishati y'umweru ya karokaro, ndetse n'umwitero w'umuhondo; bigaragara yuko uno musaza ari umubyinnyi, kuko afite n'icumu ryifashishwa mu kubyina imbyino za kinyarwanda.

Umugabo wirabura wambaye umupira w'umweru ufite akadodo mu ntoki zombi gasa umweru, yakanyujije mu menyo bisa nkaho ari kwerekana uburyo amenyo ye akeye asukuye kandi asa umweru.

Abana bari hamwe bambaye impuzangano y'abanyeshuri. Bose bafite udukombe mu ntoki ndetse n'uburoso bwo kwiboroshesha. Bose bari kwiborosa bisa nkaho bari gukorera amenyo yabo amasuku.

Umusore wambaye umupira w'umweru, uri guseka bisa nk'aho yishimye, afite akadodo k'umweru afatishije intoki ze zombi, ari kukanyuza mu menyo, bigaragara y'uko ari kwerekana uburyo afite amenyo asukuye kandi akeye.

Umusore uryamye ku buriri busa umukara wasomye bigaraga yuko abaganga bari kumukorera ubuvuzi mu menyo abo baganga bafite imikasi mu ntoki ndetse n'utundi tuntu bari kumukoresha mu ntoki bambaye amaga y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu n'itaburiya y'umweru.

Umusore wambaye agapira k'umweru ndetse afite urudodo mu ntoki zombi, ari gukoza mu menyo, bigaragara yuko ari kwerekana uburyo amenyo ye asukuye ndetse afite isuku, ndetse urabona yuko yishimye.

Abaganga babiri umugore ndetse n'umugabo, bambaye udupfumanwa tw'ubururu, amataburiya y'umweru ndetse na ga z'umweru, imbere yabo hicaye akana kambaye umupira w'umukara ndetse n'agapfukamunwa k'umutuku, bigaragara yuko bari kukareba mu menyo, basa nkaho bari kukavura ku menyo, imbere yabo hari imeza itetseho impapuro ndetse n'ikaramu.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari umwana wambaye ishati y'icyatsi bisa nkaho ari impuzangano y'abanyeshuri, mu ntoki zabo harimo igikoresho cyifashishwa mu kwerekana uko amenyo ateye mu kanwa k'umuntu, ndetse inyuma yabo hari abandi bagabo ndetse n'abagore, bigaragara yuko baje gukora ubukangurambaga ku bijyanye n'amenyo mu ishuri.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, ufite akantu k'umweru ari gukoza mu kanwa, bigaragara yuko ari muri douche, inyuma yiwe hari amarido asa umutuku ndetse n'imbere yiwe hari papiyejenike isa umweru, ari kwireba mu kirahure.

Abagabo, abagore, ndetse n'abana bahuriye hamwe, higanjemo abambaye imipirasa icyatsi, ndetse n'umweru, bigaragara yuko baje kwivuza amenyo, hejuru y'a bantu bahagaze buri muganga uri kugenda ufite ga akora mu kanwa kabo abareberamo ikibazo runaka.

Umusore bigaragara yuko yishimye wogoshe ndetse ufite n'ubwanwa, uri kureba neza mu maboko ye yombi afitemo akadodo gasa umweru yashyize ku menyo yiwe, bigaragara yuko ari kwerekana yuko amenyo ye asukuye kandi asa umweru.

Umugore cyangwa se umukobwa, wambaye iswime y'umweru mu mutwe ndetse n'agasengeri bisa nkaho ari kwikorera amasuku ku menyo, ukuboko kwe kw'iburyo afitemo uburoso busa ubururu, ari kwiboroshesha.

Umwana w'umukobwa uri guseka imbere yiwe hari ibiganza byambaye ga bifite utwuma tugiye dutandukanye twifashisha mu buvuzi bw'amenyo. Ikigaragara cyo uyu mwana yaje kwivuza amenyo ngo abaganga bayiteho.

Umugabo cyangwa se umusore wambaye umupira usa umweru ndetse yambaye na lunette ariguseka. Bigaragara yuko arikwerekana yuko amenyo ye asukuye kandi asa neza. Kandi koko biragaragara yuko amenyo yiwe asa neza.

Abanyeshuri bari kumwe n'abarimu babo babiri, buri munyeshuri afite korogati ndetse n'uburoso mu ntoki, bisa nk'aho bari mu bukangurambaga bwo kwiborosa neza ndetse no kugira isuku mu kanwa.

Umugabo cyangwa se umuhungu bigaragara yuko yishimye, wicaye ahantu ku ntebe isa umweru, uri guseka cyane, amenyo ye biragaragara yuko asukuye asa umweru, iruhande rw'iwe hari ukuboko kuriho ga bigaragara ko ari umuganga ndetse kwambaye n'itaburiya y'umweru gufite akantu bisa nk'aho ari gukoza mu menyo y'uwo muhungu.

Umugabo cyangwa se umuhungu ufite akantu kifashishwa mu kugorora amenyo, urabonako yasamye asa nk'uwinjiza ako kantu gasa nk'amazi mu kanwa kiwe.

Umugabo n'umwana bambaye imipira y'umweru, basa nk'abasamye bafite utudodo dusa umweru banyuza ku menyo bigaragara yuko bari kwerekana yuko amenyo yabo akeye kandi asukuye.

Umugabo wambaye rinete, wambaye umupira usa ikijuju, ufite utuvuta mu ntoki bisa nkaho agiye kutwisiga, imbere ye hari ikirahure cyo kwirebamo ndetse n'imbere yiwe hari robine ivamo amazi ndetse iruhande rw'iyo robine hari agakombe karimo uburoso ndetse na korogate.

Inzu ifite amabara asa umweru, irimo ibikoresho bibiri bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, harimo nk'intebe yo kwicaraho ifite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi ndetse n'ibindi bikoresho nk'imashini zigezweho.

Umusaza wambaye umupira usa ikigina ndetse n'umukecuru wambaye umupira usa umutuku, bari kurebana bigaragara ko bishimye, imbere yabo ku meza hateretseho ibiryo bigiye bitandukanye byujuje ubuziranenge ndetse n'amazi, bari kurya ubona ko bari gusabana bishimye.

Umuforomokazi wita ku basheshe akanguhe uri kumwe n'umusaza wambaye imyenda y'ubururu, ndetse n'uwo muforomokazi yambaye imyenda y'ubururu, afite akama mu ntoki, kifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso.

Abagore ndetse n'umugabo n'abana bicaye hamwe ahantu mubyatsi, bamwe bicaye ku ntebe abandi bicaye hasi. Bisa nkaho ari umuryango umwe uri kuganira kubintu runaka ubona ko bishimye.

Umuforomokazi cyangwase umuganga wita ku basheshe akanguhe wambaye imyenda y'ubururu irimo agapira k'umweru, afashe ku rutugu rw'umugabo usa nk'aho akuze, ufite inkoni ndetse akaba yambaye umupira w'umweru.

Umuforomokazi wita ku basheshe akanguhe, wambaye imyenda y'umutuku ndetse ufite akuma kabugenewe mu gupima umutima, ari kumwe n'umusaza wambaye rinete ndetse yambaye na rakosta y'umweru, ni umusaza, afite akantu kameze nka aliteri kamufasha kugorora imitsi.

Umugabo wambaye ishati y'ubururu ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu, imbere ye hari undi mukobwa wambaye na we umupira w'icyatsi ndetse agapfukamunwa k'ubururu. Afite akuma kifashishwa mu kumenya uko umutima uri gutera, yagashyize mu matwi ari kugakoresha yumva umutima w'uwo mugabo uko uri gute...

Umuforomokazi wambaye imyenda isa ubururu, mu ijosi ryiwe harimo akuma kifashishwa mu buvuzi gapima uko umutima utera, ndetse afashe mu kiganza umumama bigaragara yuko ari umukecuru wambaye rinete ndetse n'agapira karimo imirongo y'umukara ndetse gasa umuhondo.

Umusaza n'umukecuru ndetse n'umugabo n'umugore bahetse abana mu mugongo wabo bigaragara yuko ari famiye yishimye bari guseka bafite akamwenyu ku maso yabo ndetse urabona yuko bagwije urugwiro kandi banumvikana cyane.

Umukecuru wambaye umupira usa ubururu n'urunigi rurimo umweru n'umukara n'umwitero w'umweru, ari kumwe n'umusaza wambaye ingofero y'umukara n'ishati ya karokaro ndetse n'umweru wiganjemo umukara n'umweru, bari kumwe n'abandi bantu inyuma yabo, bisa nk'aho bitabiriye imihango runaka.

Umu mama wambaye agapira k'umuhondo bigaragara ko yishimye cyane ndetse ari no guseka, mu kuboko kw'iburyo harimo agakoresho kifashishwa muri siporo kazwi nka ariteri gasa iroza.

Umubyeyi ufite imvi bigaragara ariko ko ashaje, wambaye ishati irimo umweru, umukara ndetse n'umutuku, afite agasani k'umweru mu ntoki karimo ibiryo, afite n'ikiyiko mu kundi kuboko; bigaragara yuko ari kwarurira undi muntu bari kumwe amugaburira ibiryo byujuje ubuziranenge.

Umugabo ndetse n'umwana bari mu kibuga cya basiketi, akana k'agakobwa gafite umupira wifashishwa mu gukina basketball, bigaragara yuko uwo mugabo ari gukina n'ako kana akigisha uko bakina.

Umuforomokazi cyangwa se umuganga wita ku basheshe akanguhe, yambaye imyenda isa ubururu, ufashe ku rutugu umusaza wambaye umupira w'umweru, barebana basa nk'abishimye.

Umumama ufite imvi wambaye rinete ndetse n'umupira usa ikijuju, ari kumwe n'undi mukobwa wambaye umupira usa ubururu ufite agasorori mu ntoki gasa umweru, umumama bigaragare yuko ari gutegura ibintu byo kurya bagiye nko kurya cyangwa se guteka.

Umukecuru n'umusaza, bigaragara y'uko uburi mu gikoni gifite amabara asa umweru ndetse n'umukara, inyuma yabo hari imbabura isa umweru n'umukara ndetse n'imbere yabo hari imeza iteretseho ibinini, igikombe, imiti, amarinete ndetse n'ibindi bintu byinshi.

Umukecuru ndetse n'umusaza bicaye ahantu hameze nko mu gikoni, umusaza afite telefone mu ntoki, bisa nk'aho hari ikintu bari kurebamo, ndetse imbere yabo hatetse utunini, udukombe tugaragara ko turimo ibinini, ndetse n'ikirarahure kirimo amazi.

Umusaza wambaye ishati irimo amabara asa ubururu ndetse nu'urongo tw'umukara, ateruye umwana wambaye umupira urimo amabara y'umweru ndetse n'ikijuju. Afite agapupe gasa shokora mu ntoki bigaragara y'uko uyu mwana yishimye ari kumwe n'uyu musaza.

Umubyeyi cyangwa se umumama bigaragahi ko asheshe akanguhe, ari kumwe n'undi mukobwa bigaragara yuko ariwe uri kumufasha kwitoza akoresheje utwuma tugiye dutandukanye twifashishwa mu myitozo ngororamubiri, ako afite kazwi nka ariteri bigaragara yuko arimo arakora imyitozo ngororamubiri.

Abamama babiri bari mu myitozo ngororamubiri bigaragara ko bishimye, uri imbere yambaye agapira gasa ikigina ndetse afite n'akantu gasa umweru ku kuboko kwe, uri inyuma ye na we yambaye isengeri y'umweru, basa nkaho bishimye bari gukora siporo.

Abantu benshi bateraniye hamwe bagiye batandukanye, harimo abagore, abagabo ndetse n'abakobwa n'abahungu, imbere yabo hari itsinda rishinzwe gususurutsa imibyinire y'Ikinyarwanda, higanjemo abantu bambaye umweru ndetse n'ubururu n'umutuku, imbere yabo hari icyapa gifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru cyanditseho ko ari umunsi wo kurwanya Sida ku isi yose.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe science muri Afurika yo muburasirazuba, icyo kirango kikaba kigizwe n'amabara y'ubururu ndetse n'umukara n'umutuku, kikaba kiriho umuntu ufashe inyuguti ya i.

Abagore ndetse n'abagabo, bicaye hamwe bateraniye hamwe, ubona ko bakurikiranye ibintu runaka bisa nk'aho ari inama, bose baricaye mu myanya yabo, baratuje kandi urabona ko bateze amatwi ibiri kubera aho ngaho.

Abagabo babiri bambaye amakoti bicaye ku ntebe zisa umukara, imbere yabo hari ameza ateretseho mikoro n'amazi, inyuma yabo hari icyapa gisa ubururu cyanditseho; Guhagarika icyorezo cya Marburg muri bibiri na makumyabiri na kane, ndetse n'imbere yabo hari imbaga y'abantu isa nk'aho ikurikiye ubwo bukangurambaga.

Ikirango cy'umunsi wahariwe kubungabunga ibidukikije ku Isi yose muri bibiri na makumyabiri na kane, icyo kirango kiriho umubumbe wandikishijweho amagambo asa ubururu.

Umuganga wambaye agafukawa k'ubururu, wambaye taburiya y'umweru, wambaye ga z'ubururu afite agacupa karimo imiti, ari muri raboratwari ari gukora ubushakashatsi runaka ku miti cyangwa se ubuvumbuzi.

Inzu y'ubushakashatsi ifite ibara ry'umuhondo hejuru ndetse ikagira na parafu isa umweru; amadirishya ndetse n'imiryango wayo bisa ikigina; mo imbere muri iyo nzu harimo intebe z'umuhondo ndetse n'imeza y'umuhondo harimo na televiziyo.

Uyu mugabo wambaye ikote risa n'ubururu, imbere yiwe hari imashini z'ikoranabuhanga zigiye zitandukanye, harimo imashini igendanwa, ndetse n'iyindi mo imbere, ubona ko yasikaninze ibihaha by'umuntu, yifashishwa mu kureba imbere.

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu buvuzi, kigiye gikozemo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, harimo nk'igitanda ndetse n'imashini zipima umubiri w'umuntu, uko utera ndetse n'uko umerewe.

Abantu bagiye batandukanye, harimo abakobwa ndetse n'abahungu n'abagabo bambaye udupfukamunwa bose, bicaye ku ntebe zisa umukara ndetse buri hagati y'intebe n'indi harimo intera, bigaragara yuko bategereje ikintu runaka, bari mu nzu ifite amabara asa umweru.

Umuntu waje kwivuza, wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse uri mu kagare, ufite ikintu cy'igitambaro kirimo umutuku, umweru ndetse n'umukara, imbere ye hari umugore uri kumupima cyangwa urii kumutera urushinge na we yambaye imyenda y'umweru ndetse n'agapfukamunwa k'ubururu.

Igice cyo kwa muganga abantu bicaraho bategereje ko babahamagara cyangwa se bategereje abarwayi babo cyangwa se bicaye bari kuruhuka , gifite intebe zimwe zisa umukara izindi zisa ikijuju ndetse imbere yabo hari imiryango isa nk'aho yinjira ahantu runaka.

Inyubako ndende isize amarange y'umweru, ifite amadirishya y'icyatsi gusa igaragara ko ari nshyashya, imbere y'iyo nyubako hari urujya n'uruza rw'abantu, harimo abagore ndetse n'abagabo basa nk'aho baje gutaha iyo nzu.

Inzu nini cyane ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'amadishya afiteho ibara ry'umweru hejuru y'iyo nzu handitseho amagambo, bigaragara ko ari ikigo gishinzwe ubumuga bwo mu mutwe cyangwa se ubundi bumuga bugiye butandukanye.

Inyubako ndende igeretse, ifite amabati asa umutuku, ndetse isize n'ibara ry'umuhondo, imbere y'iyo nzu hari imodoka isa umutuku ndetse na moto, ndetse hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, rishinze mu byatsi biri aho ngaho.

Inzu ndende kandi nziza yubatse neza ifite amabara y'umweru ku gice kimwe ndetse n'ay'umuhondo ku kindi gice, hagati y'iyo nzu harimo ibara ry'ubururu ryanditseho amagambo bigaragara y'uko ari ibitaro bikuru by'akarere ka Nyarugenge ndetse imbere y'ibyo bitaro n'aho hubakishijwe amapave ndetse hari n'indabo na jaride nziza cyane.

Icyumba kirimo inzitiramibu ndetse n'ibitanda bigiye bitandukanye bifite amabara y'umweru ndetse n'ubururu icyo cyumba kikaba cyifashishwa mu buvuzi aho abarwayi cyangwa se aba indembe ziba ziryamye ziri kwitabwaho n'abaganga.

Icyumba kirimo ibitanda bigiye bitandukanye, harimo ibitanda bifite amabara asa umweru ndetse n'ubururu, muri ibyo bitanda hasashishijwe amashuka asa icyatsi, bigaragara y'uko iyi nzu ari iy'abarwayi bavurirwamo cyangwag se bitabwaho.

Abantu benshi bateraniye hamwe bisa nkaho bitabiriye ikintu runaka, imbere hano hari imodoka isa umukara ku ruhande rwayo hariho umugore wambaye umwenda w'umutuku ndetse n'ijipo y'igitenge, ku ruhande rwe naho hari abandi bagore babiri ndetse n'umuhungu umwe wicaye hejuru yabo.

Inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri igiye itandukanye, harimo ariteri zisa umukara, ziri ku kuma, zizifasha kurambura imitsi ndetse no kongera imikaya.

Inzu ifite amabara y'umweru irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi, harimo n'agatanda gasa umweru, n'izindi mashini zifashishwa mu gupima umubiri w'umuntu ndetse n'akandi kuma, kari hirya gasa umukara kifashishwa mu gihe bari gupima uko umuntu agenda yiruka.

Inzu igurisha imiti izwi nka farumasi ifite ama etajeri afite ibara ry'umweru ndetse ku ruhande hazengurukijwe ibara ry'icyatsi, muri utwo tu etajeri hagiye harimo imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi.

Itente ifite ibara ry'umweru irimo ibitanda bine bisa nk'aho ari iby'abarwayi, bifite amabara y'ubururu ndetse n'umweru harimo abarwayi babiri bambaye udupfukamunwa tw'umukara ndetse n'abaganga babiri bambaye amataburiya y'umweru ndetse n'udupfukamunwa tw'ubururu ndetse bambaye na ga z'umweru.

Umuganga cyangwa se umuforomokazi wita ku bagore batwite, wambaye ga ndetse yambaye n'itaburiya y'umweru irimo n'uturongo tw'ubururu, bisa nk'aho ari kumva ku nda y'umugore utwite, yashyizeho ugutwi ndetse afite ikintu gisa umuhondo ari gupimisha cyangwa se ari kumvisha ku nda y'uwo mugore.

Inzu isize irangi ry'imweru igiye irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi rusange harimo nk'ibitanda by'abarwayi ndetse n'imashini zishinzwe gupima ndetse no gupima uko umuntu ari kugenda amera.

Inzu ifite amarangi asa umweru, irimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, harimo laptop, hakabamo isaha ndetse hakabamo n'ikindi gikoresho cy'umweru cyifashishwa mu gusikaninga.

Inzu isize irangi ry'umuhondo ndetse ifite n'amadirishya asize ibara ry'icyatsi, ni inzu yifashishwa mu gutanga serivisi ku bagore batwite izwi nka materinite, imbere y'iyo nzu hari umuganga cyangwa se umuforomo bigaragara ko yambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiye.

Abaforomokazi bambaye imyenda isa ubururu, ndetse n'uduphukamunwa dusa ubururu, bamwe muri bo bambaye na baji, bahagaze imbere y'inyubako ndende ifite amabara y'umuhondo, ndetse na oranje, bigaragara y'uko iyo nzu bahagaze imbere, ari iyo kubyarizamo abagore, cyangwa se inzu y'ababyeyi...

Umugore uryamye ku buriri bufite amashuka asa umweru, worosheshejwe ikiringiti gisa ikijojo ndetse n'umweru, umugore bigaragara yuko kwa muganga yitabwaho, imbere ye hari imashini zifashishwa mu buvuzi ndetse inyuma y'iwe hari amarido ndetse n'amadirishya bisa umweru.

Inzu isize ibara ry'umuhondo ifite n'amadirishya asize ibara ry'umweru isa nk'atangirwamo amaserivisi atandukanye imbere y'iyo nzu hari abantu urujya n'uruza rw'abantu bisa nkaho'a ngoheje gufata izimwe muri serivisi batan aho ngaho halibariyeri isa umweru ndetse n'umutuku ndetse nagwaho hari umusirikate ushinzwe umutekano waho.

Icyumba cyagenewe abarwayi mu icyo cyumba hasizemo amabara y'umweru ndetse harimo n'uburiri bwagenewe kuryamwaho n'abarwayi, busashe neza bufite ibara ry'umweru.

Inzu ifite intebe eshatu, imbere y'izo ntebe eshatu hari ameza ariho amarinete agiye atandukanye, ndetse n'inyuma y'ayo meza hari utubati tumanitsemo amarinete agiye atandukanye y'ubwoko bwose, ndetse no hejuru yayo hari abantu bagiye batandukanye bambaye zimwe muri izo rinete.

Umuforomokazi wambaye ingofero y'umweru, ndetse n'imyenda isa ubururu, ndetse n'gazu'mweru ufashe akabebe mu ntoki arikukareba, ndetse ako gahinja kambaye nako imyenda isa iroza karyamye mu kintu kimeze nk'icyuma gisa umweru ndetse n'ubururu.

Icyumba gisize amarenge y'umweru, ndetse gifite imiryango isa n'ikijuju, muri iki cyumba hakaba harimo imashini zigiye zifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye, harimo nko kuba umuntu yaryama kuri icyo cyuma, ndetse icyo cyuma kikamureba umubiri we wose, aribyo bita gusikaminga umubiri.

Umukobwa bigaragara yuko uvuye muri siporo, wambaye agasengeri k'umukara ndetse na kora y'umukara, ku kuboko kwe ku ibumoso afiteho telefone ndetse n'ukw'indyo gufashe icupa ririmo amazi ari kuyanywa.

Umugabo wambaye ishati isa iroza, uri imbere y'imashini igendana isa umukara, uzengurutswe n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu bintu bigiye bitandukanye, bisa amabara y'umweru ibyinshi muri byo ndetse n'ibindi bisa amabara y'umweru avanzemo n'ubururu.

Umugabo cyangwa se umusore, wambaye agapira gasa ikigina, mu kuboko kw'iburyo kw'iwe harimo icupa ry'amazi ifite umufuniko usa ubururu bwerurutse, ari kunywa amazi asa nkaho avuye muri siporo.

Bande ziri mu mabara agiye atandukanye, harimo ibara ry'umutuku, umukara ndetse n'ubururu, izo bande zagenewe gushyirwa ahantu hari imvune ahariho hose, kugira ngo bigufashe ko iyo mvune yagabanyuka cyangwa se igufwa rigasubira ku murongo.

Umukobwa bigaraga yuko ari gukora siporo wambaye agapira k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, ari guseka, bigaragara yuko ari gukora imyitozo ngororamubiri, iruhande rwe hari imbuto zigiye zitandukanye, zifashishwa mu kongera intungamubiri, cyangwa se mu kongera ubudahangarwa mu mubiri w'umuntu.

Ingaruka nziza ziterwa no gukora imyitozo ngororamubiri, harimo nko kugabanya ibinure cyangwa se kubitwika no kugabanya amahirwe yo kurwara umuvuduko w'amaraso, bigabanya siteresi ibyo twakita nko kuba ufite ibintu bikubangamiye, bigatuma igifu cyawe gisya ibiryo neza ndetse bigatuma uguma kuri taye nziza ishimishije.

Umuganga wambaye agapfuwa k'ubururu, umupira wumukara. Bigaragara yuko ashinzwe ibijyanye n'imvune mu kibuga ndetse no kuvura abagiriye ikibazo mu kibuga, imbere ye hari umukinnyi bisa nk'aho afite ikibazo mu kuboko ari kumushyiriraho bande.

Icyumba cy'amabara asa umweru kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buganga, harimo nk'iki cyuma gisa umweru kiriho umuntu uryamyeho wiyoroshe igishura cy'umweru, bisa nk'aho iki cyuma gishinzwe kureba amagufa y'umuntu yose mo imbere.

Umuhungu cyangwa se umugabo usa nk'aho yari ari muri siporo, yifashe ku ivi ameze nk'aho abaye ikintu cyangwa se avunitse, asa nk'uri kuhakanda, yambaye isaha y'umukara ndetse yambaye n'ikabutura y'umukara ari mu muhanda...

Agakarito kiganjemo amabara y'ubururu, umweru ndetse n'icyatsi, ako gakarito kabikwamo udupfuko twifashishwa ku bisebe bitoya kugira ngo bitaza kwinjiramo amamikorobe agiye atandukanye.

Uducuupa turimo amabara y'umutuku ndetse higanjemo umweru n'umukara, utu ducupa tukaba tubamo imiti yifashishwa mu kuvura imvune cyangwa se mu koroshya imvune ku muntu wese waba wavunitse, uwusigaho ndetse ukikandira.

Umuganga wambaye agataburiya y'umweru ufashe ku ivi ry'umurwayi, bisa nkaho afite ikibazo muri iryo vi, uwo murwayi yambaye kora isa ikigina ndetse irimo n'amabara y'umukara.

Umugabo wambaye umupira w'umukara urimo uturongo tw'umweru ndetse n'ipantaro isa ikigina, imbere yiwe haryamye umuntu wambaye urukweto rwiganjemo umweru bigaragara yuko ari kumufasha kumushyiriraho bande, bisa nkaho ukuguru kwe kwavunitse akaba arimo arazengutsaho bande.

Abakobwa ndetse n'abahungu n'abamama n'abagabo, bahuriye hamwe bose bambaye imyenda bigaragara y'uko ari iy'imyitozo ngororamubiri, buri umwe afite pozisiyo arimo bigaragara y'uko bari mu myitozo ngororamubiri.

Insimburangingo ifite ibara ry'umukara, ifitemo n' ikigina. Yifashishwa ku bantu bavunitse ndetse n'abafite ubumuga bwo kutagenda cyangwa se ubumuga bwo ku maguru, yifashishwa mu kugororera ingingo zabo kugira ngo babe baze.

Umusore cyangwa se umugabo wambaye isengeri y'umukara irimo akarongo k'ikijuju, bigaragara y'uko yihinnye, amaboko yiwe abiri afashe ku nkweto ze cyangwa se ku kirenge cye bigaragara yuko ari mu myitozo ngororamubiri, ndetse yicaye no mu byatsi bisa icyatsi.

Umukobwa wambaye imyenda y'umukara bigaragara y'uko ari mu myitozo ngororamubiri, wicaye ku itapi isa ikigina, imbere yiwe hari imashini igendanwa ndetse imbere y'iyo mashini n'aho hari udukoresho twifashishwa mu gukora siporo zigiye zitandukanye ndetse iruhande rwiwe hari n'agacupa k'amazi.

Imiti igiye itandukanye yifashishwa mu buvuzi bw'ibanze ku muntu waba wagize ikibazo runaka harimo nka bande, ibinini, ibipfuko, ndetse n'imiti wasiga ku gikomere cyawe.

Abaganga batatu bambaye amataburiya y'umweru, umwe muri bo yambaye agapfukanwa k'ubururu bari kumwe n'undi mugabo wambaye ikote risa ikigina ndetse n'ishati y'ubururu. Imbere yaho hari icyuma kifashishwa mu buvuzi cyangwa se ku ikoranabuhanga, bari mu cyumba bigaragara ko ari icyumba cy'abarwayi.

Ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora siporo, ngororamubiri, harimo nk'inkweto, ndetse n'itapi ndetse n'umunzani, n'udukoresho twifashishwa mu kurambura imitsi ndetse n'icupa ryo kunywa amazi, ndetse n'imbuto n'imboga zigiye zitandukanye, zifashishwa mu kurya imiryi, indyo yuzuye, kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze.

Ikirango kiriho amabwiriza agiye atandukanye yagenewe cyangwa se yashyiriweho mu kurandura icyorezo cya covid-19, harimo gukaraba intoki neza, gushyiramo metero, kwirinda kwegerana ndetse no gusuzanya, kwirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi ndetse no kutarenza amasaha ndetse no kuguma mu rugo.

Icupa rifite ibara risa ubururu ririmo amazi mu gafundikizo kaho, hari akaronko kazengurukijweho gasa umutuku, imbere y'iryo cupa hari ikirahure nacyo kirimo kirasukwamo ayo mazi.

Ikirango cy'ikigo gishinzwe ubutabazi bw'ibanze mu Rwanda, kizwi nka croix rouge cyangwa se red cross, icyo kigo kikaba gishinzwe gutabara ndetse no kuba hafi abagize ibibazo bigiye bitandukanye, ndetse no gufasha abatishoboye, cyangwa se gufasha abadafite ubushobozi.

Umusore wambaye umupira w'ikijuju, ufite n'agacupa mu ntoki ku kuboko kw'iburyo gasa ubururu, karimo amazi, bigaragara yuko uyu muhungu ananiwe, avuye mu myitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse na ga z'umweru, ufashe kasike ntifashishwa mu gukina rugby, ikigaragara cyo iyi ni inzu ishinzwe kuvura abakinnyi bagiriye ikibazo mu kibuga.

Ibintu wakwifashisha byagatuma umubiri wawe umererwa neza, harimo nka siporo mu ngororamubiri hakabamo kurya imbuto cyangwa se kurya ibiryo byujuje ubuziranenge, harimo imboga imbuto ndetse n'ibikungahaye kuri poroteyine.

Umukobwa wambaye imyenda isa umukara, wicaye ku itapi isa ikinjojo imbere ye hatetse imashini igendanwa, ndetse iruhande rw'iyo mashini hari utwuma twifashishwa mu kugorora imitsi tuzwi nka literi na two dusa iroza, ndetse iruhande rw'iwe hari agacupa k'amazi ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Umusore wambaye isengeri y'umukara, ipantaro y'umukara, mu kuboko kw'iburyo afitemo agacupa k'amazi bisa nkaho yari kuyanywa. Yicaye mu muhanda, bisa nkaho yariri gukora siporo, arangije afata akanya ko kuruhuka.

Umusore cyangwa se umugabo wambaye umupira usa ikigina ndetse n'ipantaro y'umukara, inyuma y'iwe hari icyuma ndetse iki cyuma ni ikifashishwa mu gukora imyitozo ngororamubiri, ndetse no hirya y'iwe hari ibindi bikoresho byifashishwa nabyo mu gukora imyitozo ngororamubiri.

Umuganga wambaye itabuya y'umweru ndetse afite na ka kuma kifashishwa mu kumva uko umutima utera ku muntu, uwo muganga yashyize ibiganza by'iwe ku murwayi, bisa nkaho afite ikibazo mu ivi, ari kugenda arimasa cyangwa se agorora.

Ikiganza gifite ijage mu ntoki, iyo jage irimo amazi, bigaragara ko ari gusukwa ahantu, aho hantu ari gusukwa akaba ari muri ikirahure, na cyo kiri kujyamo amazi, bisa nkaho ari umuntu ugiye kuyanywa.

Imbuto zigiye zitandukanye harimo ironji, inanasi ndetse n'indimu n'umuneke na pome, navuga ku ruhande hari utwuma twifashishwa muri siporo rusange, hejuru yaho hari imidari y'ishimwe, ndetse ku ruhande hari ibinini bigenda bifashishwa na ngo mu kuvura ibintu bigiye bitandukanye.

Umugabo cyangwa se umuhungu wambaye isengeri y'umukara ndetse n'ikabutura y'umukara bigaragara yuko ari mu myitozo ngororamubiri, ukuguru kwe yakuzamuye yagushyize ku bintu bimeze nk'imbaho bikikije aho hantu arikorera imyitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye imyenda isa umukara n'isengenyeri ndetse n'ikabutura, bigaragara yuko ari mu myitozo ngororamubiri, hasi yiwe hari agatapi gasana nako umukara ndetse hirya yiwe hari ikintu kimeze nka bafure nacyo gisa umukara.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'isaaha, iruhande rwe hicaye umukobwa wambaye umupira w'umutuku ndetse na kora, ikigaragara ni uko uyu mukobwa ashobora kuba afite ikibazo ku ivi cyangwa se mu kuguru.

Umugabo wambaye imyenda isa umukara uri kumwe n'umukobwa na we wambaye imyenda isa umukara, yicaye ku ntebe y'umukara, ikigaragara cyo ahantu bari ni kwa muganga, uwo muhungu ari kumushyiriraho bande ku kuguru, bisa nk'aho yagizemo ikibazo runaka.

Isize amabara y'umweru irimo ibikoresho bigiye bitandukanye bisa nkaho byifashishwa mu kuvura abarwayi bindwara zigiye zitandukanye, hariho agatanda gasa ubururu ndetse n'intebe isa ubururu hejuru yayo hari ikindi gikoresho cyifashishwa mu buvuzi ndetse n'impande zayo hari ibindi bikoresho byinshi byifashishwa mu buvuzi.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'ubururu ndetse n'akanozasuku k'ubururu n'itaburiya y'umweru asa nkaho ari gupfunyika imiti mu dukarito twayo, utwo dukarito tukaba dusa umutuku ndetse tukaba turimo n'ibara ry'umuhondo.

Agacupa gafite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, karimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye zibasira abashakanye, izo ndwara harimo nko kurangiza vuba, gucika intege, mu gihe cyo gutera akabariro.

Umubyeyi wambaye agasharupe gasa umweru ndetse ufite ishakoshi isa ikigina mu ntoki z'iwe. Iruhande rw'iwe hari ibiti bisa icyatsi ndetse bigaragara yuko ari igiti cyeraho imiravumba. Imiravumba ikaba yifashishwa mu buvuzi gakondo bugiye butandukanye harimo nko kuvura inkorora ndetse n'ibicurane.

Uducupa tugiye dutandukanye turiho ibara ry'umweru ndetse dufiteho ikimera gisa icyatsi bigaragara yuko ako gacupa karimo ari aka korogati, umuti wifashishwa mu gusukura amenyo hejuru hari umuntu uri guseka bigaragara yuko nawe ari kwerekana yuko afite amenyo meza kandi asukuye.

Igiti kinini cyane giteye mu murima n'ibindi biti, icyo giti gifite amababi y'icyatsi azwi nk'umuravumba, umuravumba ukaba ukoreshwa mu bintu bigiye bitandukanye ndetse no gukora imiti itandukanye ya gakondo, ikiza indwara zigiye zitandukanye.

Itasi risa umweru riri ku kasahani nako gasa umweru, iryo tasi imbere harimo irongi ry'igice ndetse n'umutobe w'iryo rogi. Ku ruhande kuri ako gasahani naho hazengurutseho utundi turongi tw'igice, ndetse no ku ruhande hari rongi ryuzuye ndetse na tungurusumu, byifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye kandi birimo n'intungamubiri.

Icupa rifite ibara ry'ubururu ndetse rifite n'umufuniko usa ubururu, ryandikishijweho amagambo asa umukara ndetse n'ay'umweru, bigaragara yuko iri cupa ririmo amavuta afasha umuntu kwita ku ruhu rwe.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru wicaye ku ntebe z'umukara, inyuma yiwe hari akabati gafite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi bigaragara yuko afite akantu mu ntoki ari gusuzuma imbere yiwe hari uducupa tubiri dufite imipfundikizo isa umutuku kamwe muri ko gasa umweru werurutse usa nk'amazi, akandi gasa umukara.

Umusambi uriho ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu gukora ndetse no gutegura imiti gakondo, harimo ibibindi, isahani ndetse n'umuhini wo kugenda bahondesha, hakabamo tangawizi ndetse n'indimu n'ibyatsi.

Ibinini bifite ibara ry'icyatsi, biri mu kantu gasa umuhondo, bigarare y'uko gakozwe mu mbaho, ibyo binini nabyo ikigaragara n'uko bikozwe mu miti igiye itandukanye, iya gakondo harimo ibyatsi bigiye bitandukanye.

Igihingwa kizwi nk'urumogi gisa icyatsi cyifashishwa m'ubuvuzi gakondo ndetse no mu bundi buvuzi bugiye butandukanye no mu gukora imiti, aho kifashishwa nk'ikinya ku bantu bagiye kubagwa cyangwa gukorerwa ubundi buvuzi.

Inzu icururizwamo ibinyobwa bigiye bitandukanye, ifite etajeri isa ubururu, irimo ibinyobwa bigiye bitandukanye harimo amazi ndetse n'inzoga, imbere y'iyo etajeri hari abagore babiri, umwe yambaye agataburiya k'umweru, undi yambaye umupira usa umuhondo.

Agacupa gafite umufuniko ufite ibara ry'umweru, ndetse kandikishijweho amagambo asa umukara ndetse n'asa icyatsi, bigaragara y'uko ako gafuniko dukurikije amagambo yanditsehol, ari agacupa karimo umuti wifashishwa mu kwica mikorobe mu ntoki bitera mu ntoki.

Urubutso rw'ipayi rukungahaye kuri vitamini nyinshi, harimo nko kugenda rukiza indwara zigiye zitandukanye, urwo rubuto ruba rufitemo utubuto mu imbere ukuramo, ntabwo turibwa, ndetse rukagira n'ikindi gice cyo hagati cyo gisa umuhondo, ndetse n'igishishwa gisa n'icyatsi.

Icupa rirerire ririho amabara asa oranjendetse n'umweru, rikaba ryandikishijweho amagambo nayo asa oranje, hasi kuri iryo cupa hariho ikimera kizwi nk'igikakarubamba ndetse n'ibindi bintu biri iruhande y'icyo gikakarubamba bisa umuhondo, bigaragara y'uko rino cupa ari iry'amavuta runaka.

Ikimera kigiye cyifashishwa mu buvuzi bugiye butandukanye bwa gakondo, ndetse icyo kimera cyamamaye ku izina ry'umuvumba, kikaba cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo nk'inkorora ndetse n'ibicurane, kikaba kivura n'izindi ndwara nyinshi.

Igicupa kinini gifite ibara risa umuhondo, gipfundikishije umufuniko gusa ikigina ndetse hakaba handitseho amagambo asa na yo ikigina, bigaragara yuko iri cupa ari iry'amavuta runaka.

Etajeri ndende isa umutuku, irimo amacupa y'imiti agiye atandukanye, iyo miti yifashishwa mu buvuzi gakondo, ndetse ikaba ikiza indwara zigiye zitandukanye.

Ikimera gisa icyatsi gifite uturabyo dusa i roza ndetse n'umuhondo, icyo kimera kikaba cyaramamaye ku izina rya capucine. Cyifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye harimo nk'amanjine ndetse n'ibindi.

Uducupa tubiri, kamwe kari mu ibara ry'cyatsi ndetse n'umweru irindi riri mu ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo harimo imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye z'uruhu.